Abantu bagera muri babiri bahagararanye, harimo umwe wambaye amakositimu n'undi wambaye imyambaro ya gipolisi wifashisha ibinyabiziga bigiye bitandukanye iyo ari gufasha ahantu hagize impanuka.

Abantu batwaye umurwayi ku kagare, bakaba bari kumwinjiza mu mbangukiragutabara kugira ngo bamwihutane ku bitaro bikuru kubera ko arembye, yagize ikibazo cy'uburwayi none bakaba bari kugira ngo ubuzima bwe bukomeze busigasirwe.

Umupolisi uhagaze imbere y'imodoka bigaragara ko ari kubaza umushoferi wayo niba afite ibyangombwa kugira ngo abe yatwara iyo modoka nasanga atabifite arahita amwandikira amande.

Ahantu hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye aho biri mu cyumba k'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ibi bikoresho biri mu mabara agiye atandukanye ari yo umweru ndetse n'icyatsi n'umukara.

Umuntu waruri gukora imyitozo ngororamubiri maze agira ikibazo arasitara agwa hasi arakomereka ku kirenge, bamwihutanye kwa muganga none muganga ari kumupfuka kugira ngo arebe ko yakira ndetse n'igisebe ntikigemo umwanda.

Inyubako nini cyane kandi ngari yubatswe mu buryo bugezweho aho itangirwarwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho umurwayi aza bakamwitaho hanyuma agataha ameze neza yakize.

Umuntu wari kugenda akora imyitozo ngororamubiri none yagize ikibazo aravunika, abantu bakorera umuryango utaba aba mu Rwanda, bahise bamuterura none bari kumwihutana kwa muganga kugira ngo barebe ko yahabwa ubufasha.

Abantu bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda ndetse n'abakorerabushake, babonye umuntu wagize impanuka none baramuteruye, bamwihutanye kwa muganga, kugira ngo barebe ko yahabwa ubufasha bwihuse akaba yakira.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bahuriye mu nyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, aho baje gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ari inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi bwihuse, haba harimo abakozi, bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda.

Imodoka y'imbangukiragutabara iri kugenda mu muhanda w'amapave ikaba iri imbere y'Ibiro by'Akarere ka Nyagatare kuko hari icyapa cyanditseho ngo Akarere ka Nyagatare.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba ari ku kigo nderabuzima ahatangirwazwa serivisi z'ubuvuzi, hari gusohokamo imbagukiragutabara, bigaragara ko ari ku ikigo nderabuzima cy'Akarere ka Nyagatare.

Abaganga bakora ibikorwa bigiye bitandukanye byo kwita ku barwayi, aho umurwayi wese uje ababaye, bamwitaho bakamuha ubufasha buhagije, agataha yishimye kandi anyuzwe na serivisi yahawe n'abaganga.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari kwifotoza. Biragaragara ko bari bari mu nama none irarangiye bari gufata ifoto y'urwibutso. Inama bigagaho yari iri kuvuga uburyo ki bateza imbere ubuzima.

Umuntu wambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye asa icyatsi, bigaragara ko ari umuganga. ari kumanika serumu ku cyuma cyabugenewe kugira ngo aze kuyitera umurwayi maze umurwayi aze koroherwa.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bakaba bahagararanye n'umuganga waje kubaha serivise, aho ari kubaha urupapuro kugira ngo basinyeho hanyuma abone uko abavura.

Umuntu w'umukobwa uri gukanika ibikoresho bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi kwa muganga, akaba ari kubicomeka kugira ngo bitangire bikore neza hanyuma abone gutangira kuvura abarwayi.

Kwa muganga haba hari inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aha rero turi kuhabona abantu batatu umugore umwe n'abagabo babiri, hejuru y'umuryango bariho handitseho ngo ni inzu y'ibagiro.

Umugore uri imbere y'igitanda akaba yambaye ibitenge bisa umutuku, yateze igitambaro mu mutwe bigaragara ko yishimye kandi anezerewe. Akaba ari ahantu kwa muganga yari arwaje umurwayi none baramusezereye agiye gutaha.

Umugabo uri guha umugore icyemezo cy'ishimwe kubera ukuntu umugore yitwaye neza, uyu mugore akaba ari umuganga bigaragaza ko yavuye neza ndetse atanga serivise nziza ku baturage baramwishimira none ari guhembwa.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho harimo abarwayi bameze nabi, barenze ndetse n'abarwaza babo. Muganga arahicaye, arikugenda ababaza buri wese uko amerewe kugira ngo amwiteho kuko aribyo yigiye.

Inyubako y'ibitaro aho yubatswe mu buryo bugezweho, iba irimo ibikoresho byose bigiye bitandukanye, byifashishwa bari kwita ku barwayi kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ni byiza ko iyi nyubako iba iri ahantu hose.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aho ifite ibikuta bisa umweru, hateraniyemo abantu benshi cyane bari mu nama bigaragara ko bateze amatwi umuganga ufite indangururamajwi ari kugira icyo ababwira.

Amazu yubatswe mu buryo bugezweho agiye atandukanye, aho asakaje amabati y'ubururu akaba afite ibikuta biteye amarange y'umweru ndetse byubakishije amatafari ahiye, akaba ari ku bitaro.

Ni kwa muganga ahari umuganga wambaye ibikoresho byagiye bibugenerwa by'akazi, aho yambaye udupfukantoki tw'ubururu ndetse n'itaburiya y'umweru, afashe intoki z'umurwayi ari kuzica inzara akoresheje icyuma cyabugenewe.

Umuganga uri muri laboratwari aho ari kureba mu gikoresho cyabugenewe kifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi gipima ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuko ni na cyo kibasha kuvura cyangwa gusuzuma indwara ziba zananiranye.

Icupa ry'ikirahure riteretse ku gakoresho kabugenewe, aho aha ngaha ari muri laboratwari ahakorerwa ubushakashatsi bugiye butandukanye by'umwihariko ubushakashatsi bwerekeranye n'ibijyanye n'ubuvuzi.

Umuganga uri kwita ku barwayi, aho ari kugenda abatera inshinge zigiye zitandukanye kugira ngo babe babasha kumererwa neza, kandi birinde indwara zigiye zitandukanye. Aba bari mu bushakashatsi.

Abantu biga ibijyanye na raboratwari, bakaba bicaye bari kureba muri mayikorosikopi, bari kureba imyanda igiye itandukanye ndetse basuzuma n'indwara zigiye zitandukanye, mu rwego rwo kunoza ubushakashatsi ku bintu runaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iteye amarangi y'umweru. Yanditseho amagambo, agaragaza ko ari laboratwari. Munsi hahagazemo abantu bagera muri bane, bigaragaza ko ari abaganga bagiye gukoreramo ubushakashatsi.

Abaganga bari muri laboratwari ahakorerwa ubushakashatsi, bakaba bambaye amataburiya y'imyeru higanjemo abagore benshi ndetse n'abagabo babiri bari kugenda bakora ubushakashatsi, uburyo ki ibyuma by'ikoranabuhanga bikoreshwa.

Umugore ufashe umwana amujyanye ku ivuriro bigaragara ko uyu mwana afite ikibazo, akaba ahetse n'undi mwana bari kugenda bagiye aho ku ivuriro, iryo vuriro rikaba riri mu mabara y'ubururu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho hateraniyemo abantu benshi bari gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane abari kwiga ibikoresho by'ikoranabuhanga bizwi nka mudasobwa.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bakaba baje gukingiza abana kwa muganga, aho imbere yabo hahagaze umuganga, ari kubabwira amategeko n'amabwiriza bagiye gukurikiza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, higanjemo abarimu ndetse n'ababyeyi n'abana. Bahagaze mu rubaraza rw'ibitaro, aho hari abana bakiri batoya bari kugenda bakinira mu busitani buri hafi aho ngaho.

Umugore wambaye ibitenge by'amaribaya akaba yiteze n'igitambaro ndetse akaba acigatiye abana babiri bambaye amakanzu y'icyatsi ari kubonsa, biragaragara ko yabyaye abana b'impanga.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari mu gikorwa cyo kwidagadura. Harimo abakecuru, abana ndetse n'abasore n'inkumi, aho bambaye udupira tw'icyatsi, bakaba bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bakaba bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kwamamaza ndetse no guteza imbere ubuvuzi, aho bafite ibipirizo by'imihondo ndetse n'udupira twa oranje bambaye babizamuye mu kirere ndetse n'imitaka bishimye cyane.

Abantu bicaye ahantu mu matente hakaba higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bicaye ku dutebe twiza cyane twabugenewe, aho ayo matente atatse mu mabara y'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ifite umuryango ucururizwamo farumasi, aho haba harimo imiti igiye itandukanye, igihe urwaye urahanyarukira bakaguha imiti ukayirya bitakugoye byihuse.

Akabati karimo amoko agiye atandukanye y'imiti bigaragara ko hano ari mu nyubako ikorerwamo farumasi, aho bacuruza imiti igiye itandukanye yavura indwara zinyuranye baguha imiti byihuse ugahita ukira.

Umuntu uri mu iduka ricuruza imiti, akaba ari gukora uducupa turi mu mabara y'umweru n'icyatsi, dushushanyijeho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, kikaba cyanditseho amagambo "farumasi", bigaragara ko ari ahantu muri farumasi, batanga serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye nyinshi kandi nziza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iteye amarangi y'umweru ikaba iparitse moto imbere yayo ndetse n'imbere hakaba hacururizwamo farumasi aho haba harimo imiti myinshi igiye itandukanye.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibinini, aho ibi binini bivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, bikunze kuba biri muri farumasi, aho umuntu ubiriye agira ubuzima bwiza, agahita akira indwara yari arwaye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru n'umukara, bahagaze imbere y'ishitingi iri mu mabara y'umweru n'umutuku, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo agakingirizo.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu gikorwa cya Leta cyo kwamamaza, hari amatente yubatse neza ndetse ari mu mabara y'umweru n'umutuku, hari n'ubusitani bwiza cyane n'abantu bari gufotora.

Abantu bagiye batandukanye bicaye bari mu nama, biganjemo abanyeshuri bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hari umugabo uhagaze hagati yabo uri kubagezaho inama nabo bamuteze amatwi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bigaragara ko bari mu gikorwa runaka cyo kwamamaza, bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, harimo abambaye impuzankano z'icyatsi ndetse n'izisa oranje bazamuye amabendera hejuru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba itangirwamo serivisigiye zigiye zitandukanye z'ubuvuzi gakondo. Aho umuntu ajyayo arwaye, akaganira n'umuvuzi gakondo akamubwira indwara arwaye, hanyuma akamuha umuti.

Inyabutongo ni zimwe mu mboga z'ingirakamaro cyane, aho izi nyabutongo bakunze kuzifashisha, bavura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko iz'imirire mibi. Ni byiza ko mu karima k'igikoni hakunze kuba harimo izi nyabutongo.

Abaganga bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu b'abagore bagera kuri batatu, babiri bambaye amadarubindi, undi umwe ntayo, bakaba bavura indwara za gakondo za Kinyarwanda ziba zarananiranye mu bitaro.

Dodo ni zimwe mu mboga zikunze kuba ari ingirakamaro cyane kuko zifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse zikanarinda bwaki n'imirire mibi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu bakora imyuga y'ubuvuzi bwa gakondo, aho ibi bikoresho biba birimo imiti igiye itandukanye. Aho bayifata bakayisekurira muri utu dukoresho hanyuma bakayikoresha.

Uducupa turimo imiti y'amoko agiye atandukanye yifashishwa mu kuvura indwara za gakondo zigiye zitandukanye, aho iyi miti ari ingenzi cyane kuko ivura indwara zirimo n'amarozi agiye atandukanye.

Ubuvuzi gakondo bukomeje gutera imbere, aho hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa. Haba hari amoko agiye atandukanye y'imbuto, bahuza, bakanasekura, hanyuma zikavamo umuti uvura indwara zitandukanye za kinyarwanda.

Umugore uri ahantu mu iduka, bigaragara ko acuruza imiti ya gakondo, avura indwara zigiye zitandukanye, niba nawe ufite uburwayi bwananiranye, wakwegera hano bakaguha umuti gakondo, hanyuma ugahita ukira.

Umuntu ufashe mu ntoki agapapuro kariho imiti ikozwe mu ifu, iyi miti rero ikaba ivura indwara za gakondo zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'indwara z'amarozi, ibicurane ndetse n'izindi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho yubakishije amatafari ahiye, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari gutera indabyo za kijyambere ndetse bavura n'indwara za kijyambere.

Hariho amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, aho iyo miti ari ingenzi cyane kuko umuntu uyiriye ahita akira, agasezera izo ndwara yari arwaye.

Ubuvuzi gakondo na bwo bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho muri iki gihe haba hari ibikoresho byinshi abavuzi gakondo bifashisha bavura izo ndwara. Muri ibyo bikoresho harimo in indimu ndetse na tangawize n'ibindi byinshi utapfa kumenya ubwoko bwabyo.

Hari amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo, aho ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye za kinyarwanda. Ikunze kuba ari ubuki, ariko kubigeraho bikaba bigoranye, hariho n'igihe inzuki zikurwinga.

Umuntu uzwi nk'umupfumu cyangwa umubeshyi, akaba avura indwara za kinyarwanda. Akaba afite ibikoresho bigiye bitandukanye yifashisha, ari kuragurira abantu. Akaba afite n'igikoresho cyitwa impinga kiri imbere ye yifashisha.

Ababyeyi bicaye bagiye gukingiza abana kwa muganga, bakaba bicaye imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ateye irangi ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru. Akaba ari ababyeyi bagera mu munani, bacigatiye abana babo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarange y'ubururu, akaba ari inyubako y'ikigo nderabuzima aho hari icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima, hakaba hatangirwa serivise z'ubuvuzi.

Abantu benshi bagiye batandukanye bambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi bigaragara ko ari impuzankano hari n'undi wambaye itaburiya y'ubururu, bigaragara ko ari abaganga n'abajyanama b'ubuzima bari kuganira.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima, yanditseho ijambo girubuzima. Iteye amarangi y'ubururu, bigaragara ko ari ku ivuriro, aho bakirira abarwayi benshi, baba baje babagana, bafite ibibazo by'uburwayi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarange asa ubururu ku bikuta, ikaba yanditseho amagambo ngo Girubuzima bigaragara ko ari ivuriro, ifite kandi ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo zitoshye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere akaba ari inyubako y'ivuriro, aho yubatse mu buryo isize amarangi y'ubururu ndetse ku gikuta hakaba handitseho ngo Gira ubuzima.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, mu nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho higanjemo abamama, bakaba baje gukingiza abana babo. Imbere hari umuganga, uri kubabaza uko abana babo bameze.

Umurwayi uri kwa muganga, aho yagiye kwivuza none muganga akaba yambaye itaburiya ari kumubaza ubwoko bw'indwara arwaye kugira ngo ayandike maze abone uko amuvura, amuhe imiti maze umurwayi akire.

Agakarito ka mu mabara y'icyatsi n'umuhondo, gashushanyijeho amoko agiye atandukanye y'inka. Aho igaragara ko harimo umuti wifashishwa mu kuvura aya matungo igihe arwaye indwara zigiye zitandukanye.